Inzu ikoze neza cyane ifite isuku bacururizamo, akabari. Ifite ibikoresho bitandukanye; intebe bicaraho n'amezaza bariraho, maze abakiriya bakishima cyane.

Akabari gakoze neza cyane gafite isuku abantu basohokeramo. Ibikoresho bitandukanye ameza n'intebe abantu bicaraho maze bakishima cyane.

Inzu bakiriramo ibirori bitandukanye maze abantu bakishima cyane. Hari ibikoresho byiza bituma abantu bagarura ubuyanja, ibiti bibaha umwuka bahumeka.

Icyokezo bifashisha barikokerezaho abakiriya inyama zigashya neza maze bakazirya bishimye banezerewe cyane.

Isahane iteguyeho inyama, zifite ibirungo hejuru harambitseho, sereri.

Igikoni bateguriramo amafunguro yo kurya, icyokezo bokerezaho inyama neza zigashya, maze bakaziha abakiriya bakazirya, bakaryoherwa. Maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bintu bitandukanye bakiteza imbere.

Umuntu uhagaze muri kontwari yubatse neza, hari inzoga z'ubwoko butandukanye, hari intebe zabakiriye, hari isuku.

Icyokezo bifashisha mu tubari bari kokerezaho inyama abakiriya zitandukanye, harimo za boroshete n'inkoko n'amafi, maze bakazihereza abakiriya, bakishima cyane, na bo bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye.

Isahani iteguyeho ifi barya maze bakanezererwa hariho indimu n'ibitunguru bya salade nabyo barya maze bakishima bakagira ubuzima bwiza.

Akabari gacururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, amabyeri, mitsingi ,amafanta, n'amaji abantu banywa ,ibyuma banywa ,bityo bakizihirwa ,bakishima cyane bakabona n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Isahani baruriraho abakiriya inyama ziryoshye cyane. Bakazijyanira abakiriya bakazirya bakishima cyane, maze bakabaha amafaranga, bakayifashisha mu buzima busanzwe bwa buri munsi, maze bakiteza imbere.

Inzu bacururizamo ibikoresho bitandukanye; amagaze abantu bifashisha bari guteka, amatelefoni bakoresha bari guhamagara, imiceri yo guteka abantu bakarya, amasabune yo gukaraba, maze abantu bagasa neza cyane bagahumura.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa bisembuye . Ubusitani bwiza cyane abantu bicaramo bari gushaka akayaga. Ibiti bizana umwuka mwiza abantu bahumeka maze bakagira ubuzima bwiza.

Inzu ikoze neza y'amacumbi abantu bararagamo. Ifite amashanyarazi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'imigozi banikaho imyenda, iyo bamaze kuyifura na parikingi y'imodoka n'ubusitani butuma abantu bahumeka neza.

Inzu icururizwamo ibyo kurya bitandukanye n'ibyo kunywa maze bakabona amafaranga bakiteza imbere bakishima cyane.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amabati bakoresha bari gusakara, n'amarangi bakoresha bari gusiga ku nzu, kugira ngo zise neza, n'ivuriro bavuriramo abarwayi maze bagakira bakamererwa neza.

Inzu zikoze neza cyane zifite isuku abantu baza gucururizamo maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi ,abandi bakayajyana kuri banki maze bakiteza imbere.

Inzu y'amacumbi ameze neza cyane ,afite igipangu cyiza ,hari n'ubusitani bumeze neza cyane ,n'umuriro w'amashanyarazi na kaburimbo abantu bagenderamo.

Inzu itangirwamo serivisi zo kwambika abageni, imyenda itandukanye, maze ubukwe bwabo bukagenda neza cyane, bukaba busa neza, n'insinga zitanga umuriro w'amashanyarazi, n'ibiti bitanga umwuka wo guhumeka.

Inzu itangirwamo serivisi z'amabanki kubitsa no kubikuza amafaranga, maze abantu bakajya kwiteza imbere. Amamodoka abantu bagenderamo n'amamoto atwara abagenzi bari kujya mu bice bitandukanye, maze bikabafasha kwihuta bakajya mu mirimo yabo vuba.

Inzu ikorerwamo imirimo itandukanye, icyarahani badodesha imyenda n'ibikapu abantu bifashisha bari gutwaramo ibintu bitandukanye, n'abajenti bacuruza amafaranga n'amayinite yo guhamagara, n'igare ririho indobo n'umufuka.

Inzu yubatswe igeretse, ikoze neza cyane, ifite amarangi meza n'ibirahuri byiza, ikoze neza ifite isuku. Ibigega bifashisha bari gushyira ku mazu, bagafata amazi bakayakoresha mu bintu bitandukanye, nko mu kazi ko mu rugo, ndetse no kuhira imyaka, bityo bigatanga umusaruro bakiteza imbere.

Inzu bacururizagamo imyenda itandukanye y'abageni :amakanzu n'imishanana, n'amakoti bambara, n'ibisabo n'inkongoro banyweramo amata ,maze ababicuruza bakabona amafaranga ,bifashisha mu iterambere ryabo.

Ishyiga bifashisha bari guteka, ipanu batekeramo n'isafuriya batekeramo ibiryo maze bakarya bakagira ubuzima bwiza, bakabona n'imbaraga zituma bajya gukora ibindi bitandukanye.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, batanga serivisi z'irembo kwandika ku myenda ,no gushyiraho amafoto ,gutanga ibyapa, no kwigisha indimi ku babikeneye kugira ngo bakarishye ubumenyi.

inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibintu byo kurya bitandukanye, amaji banwa n'amata banwa n'amazi yo kunwa, n'amagi bateka maze bakayarya maze bakagira ubuzima bwiza, maze na bo bakabona amafaranga bifashisha mu bintu bitandukanye.

Inzu icururizwamo ibyo kurya bitandukanye, ubuki amaji, amagi, n'amafu y'igikoma, umu ejenti ucuruza amayinite amafaranga maze bakiteza imbere bityo bakagira ubuzima bwiza.

Inzu y'ubugeni bacururizamo ibikoresho bitandukanye, ubusitani bwiza cyane abantu bicaraho, amagare bifashisha bari gutwara ibintu bitandukanye, imihanda abantu bagenderamo.

Inzu y'ubucuruzi imeze neza hari isuku, hari umuriro w'amashanyarazi, hari amakaro akoreshwa mu bwubatsi atanditse hanze.

Inzu z'ubucuruzi zimeze neza, zifite isuku, hari umuriro w'amashanyarazi, hari imodoka ziparitse mu muhanda w'ibitaka.

Ni inzu z'ubucuruzi zimeze neza, hari isuku hari abakobwa bicaye hanze bafite ibipupe barimo kwiga gusuka.

Hari amazu y'ubucuruzi ari kuri kaburimbo, hari ipoto y'amashanyarazi hari abaturage barimo kugenda muri kaburimbo n'amaguru, hari n'abandi barimo kugenda kuri moto

Inzu z'ubucuruzi zimeze neza zikoze neza ziri kuri kaburimbo hari moto iparitse, hari umubyeyi uhetse umwana, hari terefone.

Ni inzu z'ubucuruzi zimeze neza ,zikoze neza ,hari abaturage hanze barimo batambuka hanze, hanitse ibinyampeke hari amapoto y'amashanyarazi.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, imiceri n'amavuta bateka maze bakabirya, imyenda bambara n'amavuta bisiga.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye umuceri, kawunga ,amavuta, salisa bifashisha bari guteka, imigati barya, amaji na bavariya banywa, korogati bifashisha bari gukora isuku.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye supamaketi bahahiramo ibyo kurya bitandukanye n'amavuta yo kwiyisiga n'amaparufe yo kwitera ubwishingizi. Abamotari batwara abantu maze bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho by'ubwiza butandukanye, amavuta abantu bisiga na parufe abantu bitera kugira ngo bahumure neza, na pampa bambika abana, kugira ngo batinnyaho.

Ibirayi basutse ku ihema kugira ngo batoranyemo ibizima n' ibyapfuye, maze hazaboneke imbuto nzima abantu bazajya guhinga, maze babone umusaruro.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye intebe bicaraho n'ameza bariho, ibikapu batwaramo imyenda bambara n'imashini idoda.

Ni icyapa cya hoteri, hari insinga z'umuriro w' amashanyarazi, hari ubusitani bw'indabo, hari n'ibiti.

Inzu ikozwe neza cyane n' udutebe abantu bicaragaho n'utumeza bifashisha. Kaburimbo abantu bagenderamo n'igiti gitanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ni agakiyosike karimo umuntu imbere, hejuru hari icyapa hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, telefone n'ibindi bitandukanye.

Inzu bacururizamo serivisi za banki na farumasi batanga imiti bavurisha abarwayi bagakira bakamererwa neza.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, intebe abantu bicaragaho, ibitanda baryamaho, amapo y'abana yo kunyamo, amabase bakarabiramo, n'utudobo babikamo amafu n'amakuvureri baryamamo.

Inzu ikoze neza cyane, intebe abantu bicaraho, umuriro w'amashanyarazi bacana, igare bagendaho, akazu ka emutiyene bacururizamo amayinite n'amafaranga bakiteza imbere.

Ni amacumbi ameze neza. Ni amazu ameze neza. Hateye irangi. Ndahabona ibiti bihakikije. Ikirere kimeze neza. Hafite isuku hari umutekano.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amayinite n'amaterefone twifashisha turi guhamagarana, turi no kureba amakuru agezweho hirya no hino.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye: Imineke barya, imboga bateka maze bakazirya zihiye, gaze bifashisha bari guteka , Abanyeshuri bavuye ku ishuri, ibiti bitanga umwuka wo guhumeka.

Inzu bacururizamo ibyo kurya bitandukanye, na salo bakora imisatsi bakanogosha, n'amacumbi yo kubamo ku bantu babishaka.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye bifashisha mu bwiza, verine basigaga ku nzara, salo bogosheramo imisatsi bakanasuka imisats,i bagatanga imyenda y'abageni, bagatanga n'indabo.

Umuhanda umeze neza harimo imodoka, harimo moto, hirya hari inzu z'ubucuruzi, hariho aba ejenti ba mobayilo mani, hariho ibyombo, hanze hariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi hejuru.

Parike y'ibirunga ikoze neza cyane abantu batemberamo, ibiti bitanga umwuka wo guhumeka maze bakabona amafaranga yo kwifashisha maze bagatera imbere.

Amasandugu babikamo ibikoresho bitandukanye, na mare babikamo ibikoresho n'amagare, bifashisha bari kugenda, maze ingendo zikaborohera cyane.

Inzu yubucuruzi igeretse imeze neza isa neza, ifite umuriro w'amashanyarazi hariho amabanke iri kuri kaburimbo.

Inzu yubucuruzi imeze neza hariho imbaho haparitse igare hariho abantu bicaye hari nabandi bahagaze bafite imifuka harimo nabandi bari kugenda mumuhanda.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibintu bitandukanye， bagakora n'ibitanda abantu baryamaho， maze bagasinzira neza cyane，maze bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo bafite.

Inzu icururizwamo ibyo kurya bitandukanye, imbuto, imineke, ama oranje, amapome, inanasi, abantu barya, amata banywa, amagi bateka, amavuta yo kurya, amavuta yo kwisiga, imiceri n'amasabune bifashisha bari gukaraba, maze bagasa neza cyane.

Inyubako imeze neza ifite isuku, irakeye, ifite jaride imbere, hari icyapa kiharanga kiri inyuma, hari igiti giteye hirya, harimo abantu bicayemo imbere.

Inzu ikorerwamo ibintu bitandukanye; ibyo kunywa, n'ibyo ku kurya, n'amavuta yo kwisiga n'ibikoresho by'isuku, rakerete bakoresha bari gukoropa, n'icyarahani bifashisha bari gushona imyenda yo kwambara.

Inzu ikorerwamo ibijyanye n'ubwiza, kogosha, gusuka, kudefiriza, maze bakabona amafaranga yo kwiteza imbere, n'abakiriya babo bagasa neza cyane, maze bakishima, bakiteza imbere.

Inzu icururizwamo, ibintu bitandukanye: resitora, utubari, n'inzu z'amacumbi bararamo, umu ejenti ucuruza amafaranga n'ama inite bahamagaza, umuhanda bagendamo neza, n'umuriro w'amashanyarazi.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye: amagi, amandazi ,amaji, amakaroni barya, amabase bakarabiramo maze bagasa neza cyane n'udufuka batwazamo ibyo bahashye.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa byo kurya bitandukanye .Amakara batekesha n'ibirayi bateka n'igitoki bateka. Imboga zo gushyira mu biryo kugira ngo biryohe cyane.

Icyapa kiriho inzu y'amacumbi, ibitanda byiza baryamaho maze bagasinzira neza cyane, n'icyo kunywa bafata maze bakamererwa neza.

Inzu icururizwamo ibikoresho bashyira mu modoka, maze ikongera kuba nzima ikagenda mu muhanda, bityo bakabona amafaranga bifashisha mu buzima bwa buri munsi n'ibidomoro bavomeramo amazi bogesha imodoka n'ibindi bitandukanye.

Abantu bishyize hamwe bagakora ibintu bitandukanye kugira ngo bibahe amafaranga bifashisha mu buzima busanzwe, ayandi bayajyane muri banki, bayabitse, maze azabafashe kwiteza imbere.

Umuntu wicaye mu mutaka, asa neza, yambaye neza, hari imeza n'intebe, hari ibiti biri iruhande rwe, hari n'inzu iri inyuma ye.

Hoteri ikoze neza cyane， ifite isuku，intebe bicaraho， ameza bariraho， ibyumba byiza bararamo， maze bakamera neza cyane， bakishima cyane.

Hoteli nziza cyane itanga serivisi zitandukanye. Amabare, amaresitora ndetse n'ibyumba by'inama, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, kandi bakayajyana kuri banki maze bakiteza imbere.

Icyapa kiriho hoteri nziza cyane hariho ibiti hariho jaride yindabyo hariho numuriro wa amashanyarazi.

N'inzu y'ubucuruzi igeretse hejuru hari amacumbi, hasi hari ibicuruzwa bisanzwe hari igare riparitse hanze hari n'abantu bahagaze aho ngaho.

Inzu nziza cyane ikoze neza, ifite amasuku, ubusitani bwiza cyane, abantu baruhukiragaho, maze bakabakorera masaje na sawuna bakabaha n'ibyo kunywa, maze bakishima cyane.

Ni hoteri imeze neza ,ikoze neza ,ifite ubusitani imbere n'inyuma . Mo imbere harimo imodoka iparitsemo.

Inzu ikozwe neza ifite isuku, amashanyarazi na pisine abantu bajya kogamo maze bakamererwa neza bityo umubiri wabo ukagororoka.

Isoko bacururizamo imbuto zitandukanye:amarongi na pome. Abantu barya maze bakagira ubuzima bwiza bikabarinda uburwayi. Bakabaho neza bishimye cyane.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, imbuto abantu barya, pome, amatunda, amaronji, n'imyembe, pampa bambika abana n'imiceri barya, ibishyimbo bateka, ibigori, soya, n'ibindi babetesha bakanywa mu gikoma, abaturage bari kugenda musoko.

Isoko bacururizamo inkweto zo kwambara. Inkweto zifunze n'inkweto bambara zifunguye, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi, bakabona n'andi yo kujyana kuri banki bakiteza imbere.

Udukwavu turi mu gitebo abantu borora， kugira ngo dutange ifumbire， abantu bajya guhingisha， maze bakeza imyaka， bakabona n'inyama zo kurya.

Isoko rya kijyambere rya etage bacururizamo ibintu bitandukanye na esanceri bifashisha barijya aho bashaka kugurira ibyo bakeneye.

Inzu icururizwamo ibikoresho byifashishwa bari gucaginga ibintu bitandukanye. amashini, amaradiyo n'amateleviziyo, bityo bakiteza imbere bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi, bakamenya n'amakuru hirya no hino ku isi.

Inzu bacururizamo ibikoresho bitandukanye; amakuvureri n'amashuka baryamamo, imyenda y'abana n'imitaka batwikira abana maze bakamererwa neza cyane, bakabona amafaranga yo kwifashisha, bakabona n'ayo kujyana kuri banki ubundi bakiteza imbere.

Isoko bacururizamo ibintu bitandukanye. Indagara z'amoko atandukanye, abantu barya, n'udufuka two guhahiramo maze bakajya guteka.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, amakaroni y'abana bateka maze bakayarya, amabiswi barya, amasitiriwaya bogesha amasahani, n'amavuta bisiga bamaze gukaraba, maze bagasa neza cyane.

Isoko rimeze neza cyane rifite isuku abantu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, imihanda ikoze neza cyane, amashanyarazi bifashisha bari gucana.

Amavuta y'ubwoko butandukanye, mu ngano zitandukanye, abantu bifashishaga bari guteka, ibiryo bikaryoha, maze bakabirya bishimye.

Amashu ameze neza cyane abantu bagura maze bakayajyana mu rugo bakajya kuyateka maze bakayarya banezerewe.

Isoko bacururizamo ibyo kwambara bitandukanye abantu bagura, maze bakabijyana mu rugo bakajya babyambara igihe bagiye ahantu.

Umuntu ufashe ipanu hirya hari ibiduki byinshi hasi harambitse udukombe nakabasi gatoya.

Ubutunda bita gaperi basutse ku ntara bari gucuruza maze bakabona amafaranga bwo kwifashisha, maze abandi bakajya kuzirya bakagira ubuzima bwiza, bakiteza imbere, bafite amagara mazima.

Ibikoresho bitandukanye bakoresha mu rugo, harimo indiga bakoresha bari guhata, amasahani baruririramo, ibikombe banywesha igikoma n'amabase bakarabiramo, maze bakagira isuku.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, imboga, inyanya, imiteja, amavuta, imiceri, maze bakabona amafaranga yo kwiteza imbere, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya kubirya.

Isoko ricururizwamo imyenda yo kwambara itandukanye, imipira bambara, amakabutura n'amapantaro bambara, n'ibisarubeti bambika abana, maze bakabona amafaranga yo kwiteza imbere, andi bakayajyana kuri banki.

Isoko bacururizamo ibyo kurya bitandukanye. Intoryi bateka, n'inyanya bashyira mu biryo, na beterave bakoramo ji maze bakayinywa bakiyongera amaraso, n'ibitunguru bakatira mu biryo cyane mu mavuta bari gukaranga, kugira ngo biryohe cyane.

Inzu bacururizamo ibikoresho by'isuku bitandukanye, pampa bambika abana, udufire bambara mu mutwe, omo bakoresha bari gufura, n'uburoso bakoresha bari kwiborosa, kugira ngo bamererwe neza.

Isoko bacururizamo ibintu bitandukanye: inkweto zifunguye, imyenda bambara, indobo babikamo ibintu bitandukanye, bote bambara bagiye mu kazi n'imikeka bicaraho.

Ni inzu y'ubucuruzi irimo ibyokurya harimo intebe n'ameza yo kwicaraho by'abakiriya harimo n'agakarito bashiramo imyanda.

Igikarito kirambitsemo utudomoro twa ji y'amoko atandukanye, umukiriya ahitamo iya ashaka imuryohera.

Inkoko n'imishwi iri mu kibuti，abantu borora kugira ngo babone inyama n'amagi bateka，maze bakabirya， bakagira ubuzima bwiza，bakubaka umubiri，bakirinda indwara.

Isoko bacururizamo ibitenge n'imashini, abatayeri bakoresha bari gushona imyenda y'abakiriya yo kwambara.

Isoko bacururizamo imbuto zitandukanye zo kurya, zifasha abantu kumera neza, maze bagashisha, bagasubira bwana, bakamera neza cyane.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu rugo amajage n'ibirahuri banyweramo ,ibiyiko n'amafurusheti barisha, indobo bashyiramo imyenda yanduye, n'amadobo bashyiramo amafu n'amabase bakarabiramo.

Ibicuruzwa bitandukanye bifashisha bari guteka maze bakarya kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ibihumyo bateka n'amavuta batekesha, ibirungo bashyiramo kugira ngo ibiryo biryohe.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, amavuta, imiceri, n'ubunyobwa bifashisha bari guteka, maze bakabona amafaranga yo kwiteza imbere, maze bakagira ubuzima bwiza bishimye cyane.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, imyenda bambara, n'amakuvureri basasa, maze bakabona n'amafaranga bifashisha mu buzima bwa buri munsi. Amashanyarazi bifashisha bari gucana maze bakabona.

Abaturage baje mu isoko bazanye imyaka yabo, vhari isombe bari kuyitotora bayishyira mu mifuka, hari amazu yubucuruzi ari hirya yabo.